Abantu batandukanye, bambaye imyenda itandukanye, harimo abasutse imisatsi twita menshi, bahagaze iruhande rw'amacupa ameze neza, arimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye.